Aha ni ahabereye igikorwa cy'ubukangurambaga. hari ihema ryiza cyane, hari umusore uri gufotora undi musore umuri imbere, imbere yabo ku meza hateretse ibitabo ndetse n'amacupa arimo amazi. Abasore bose bakaba bari gusobanurirwa.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hoteli yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba harimo intebe nziza abakiriya bashobora kwicaramo mu gihe bategereje guhabwa serivisi ariko kandi nanone ntabwo batinda kuzihabwa.

Iyi ni resitora nziza cyane, itanga ibyo kurya, ndetse igatanga na serivisi zinoze ku bayigana, turi kubona icyapa kigaragaza ko bari gutanga ikaze ku bakiliya.